Umusore muremure w'ibigango ufite mikoro, abakobwa bitangiye itama bigaragara ko babuze icyo bavuga, inyuma y'uyu musore hari icyapa cyanditseho ijambo Rwanda, impande yaho hari ibendera ry'u Rwanda.

Abasaza, abagore n'abakecuru bicaye mu nama. Inzu bicayemo yubakishije amakaro, intebe bicayeho zifite irangi ry'umutuku.

Abanyeshuri bicaye barebana n'abatetsi, ku ruhande rumwe hicaye umugabo impande ye hari agashakoshi, arimo kubasobanurira abwiriza, ameza bicayeho ariho ibitambaro bifite irangi ry'ikijuju.

Umubyeyi wishimye afashe ikiganza cya mugenzi we bombi bari kubyina, umugabo ufite inda nini ahagaze inyuma acurira bigaragara ko yishimye, yambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'icyatsi, ababyeyi banezerewe bari inyuma ye bari gucinya akadiho.

Aba bantu bari mu nama, icyumba bicayemo ni kinini, harimo abirabura ndetse n'abazungu, abari gukoresha inama ni batatu harimo umugore umwe ameza bicayeho ariho impapuro bigaragara ko ari zo bukoreshe, buri muntu afite amazi imbere ye.

Abazungu, abirabura bari kuganira. Buri umwe imbere ye hateretse amazi. Ndetse hari uyu mugore wambaye amarinete afite ajenda. Umugore ubabanjirije wo hagati ufite ibisuko ku mutwe wambaye amarinete n'agapira k'umukara, arigukora ku mashini ye ya kompiyuta ari gukirika. Uyu mugore we wambaye amarinete we yatangaye! Afite ikaramu na telefone mu...

Uyu mudamu yitangiye iitama, umukurikiye we ni umugabo ari kumwenyura, mugenzi we wa gatatu we asa nk'uwatangaye, bombi buri umwe wese afite icupa ry'amazi, gusa uyu mudamu we imbere ye hari imashini, afite ikaramu, bicaye ku meza magari, icyumba barimo gisize irangi ry'ikijuju.

Abakecuru n'abasaza bari mu nama, umugabo urimo arayigisha abasaza n'abakecuru, iruhande rwabo hari inkoni baje bicumye, bose baricaye.

Umusore wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umukara, ari mu cyumba afite mikoro arimo arigisha, iruhande rwe hari abagabo babiri bateganye, buri umwe agiye afite amazi imbere ye.

Uyu mugabo uri imbere yanjye afite kompiyuta nini mbere yaho kato ku yindi ntebe ikurikira hari undi nawe ufite compiyuta yambaye ikabutura afite igikapu ateretseho komputer hari abandi bantu inyuma ye nanone bahuze bose bafite telefone bameze nkabari kuri interinete bicaye mu modoka nini ya litiko.

Umunara wubatse uriho ibisanduku bikurura amarizo, kuri uyu munara hariho amatara amurika nijoro, ikirere cy'aho uyu munara uherereye gisa ubururu, uyu munara wubakishije ibyuma.

Abasore batatu bambaye udupfukamunwa, babiri muri bo bafite terefone, umwe ubanza afite igitabo mu kwaha yambaye n'isaha n'ishati y'umukara, inyuma yabo hari inzu isize irangi ry'ubururu.

Inzu nini yubakishije amatafari ahiye. Hanze haparitse imodoka ifite amapine inyuma. Ruguru gato hari moto. Iruhande rwa moto hari umugabo uhetse igikapu urimo kugenda. Iyi nzu yubakishije amatafari ahiye munsi yaho hari ibikorwa by'ubucuruzi.

Umuhanda nyabagendwa, urugo rwubakishije amatafari ya ruriba, imbere mu nzu hubatsemo utundi tuzu dutoya, ku muhanda hateyeho ibiti bya jyereveriya.

Igipangu gifite umuryango muremure, kuri uyu muryango hari amayekariye ukoresha uzamuka uza muri iyi nzu, hanze y'iyi nzu hateye igiti cya pinusi, iruhande rwacyo hari umukindo, icyapa ndetse n'indabo.

Akaronko k'umweru kari iruhande rw'umuhanda. Umuferege utwara amazi uri munsi y'ipoto. Inzu yubakishije amatafariye iri haruguru y'umuhanda. Ibiti bitaribwa biteye impande y'umuhanda.

Amapave yubatse mu muhanda. Taransifo ibika umuriro iri hagati y'amapoto abiri. Utwuma tugabanya ubukana bw'umuriro turi hejuru ya taransifo. Imikenke iteye impande y'umuhanda.

Inzu ya konoshi yubatse impande y'umuhanda, ibibati bishaje bigize uruzitiro rukikije iyi nzu. Amapoto ashinze impande y'iyi nzu ariho insinga zitwara amashanyarazi.

Ikirere kireyutse ndetse ibara, ry'ubururu ikirere kitarimo imvura, insinga ziri ku ipironi itwara umuriro w'amashanyarazi.

Urugomero rw'amashanyarazi, taransifo zibika umuriro zikanawuyungurura, iruhande rwaho hari konkasi ziyungurura amazi kugira ngo hataza ibidendezi, amapoto yo hejuru ya taransifo akwirakwiza umuriro mu giturage.

imikindo ibiri iteye kumuhanda, iruhande rwaho hari indabo n'urugo rw'indabo, ipoto itwara amashanyarazi, inzu ndende igeretse kabiri isize irangi ry'ikijuju, iruhande rw'iyi nzu hari inzu yubakishije amatafari ruriba isakaje amabati

Imodoka z'umukara n'umweru ziparitse muri parikingi, impande yaho hari inzu nini za kadasiteri zikikijwe n'ibiti, impande y'inzu hariho ibendera ry'u Rwanda, ku mbuga hahagaze umugabo wambaye ipantaro y'umweru n'umupira w'umukara, izi nzu zisize irangi ry'umweru n'umukara.

Inzu ndende ya kadasiteri, iyi nzu ifite jaride iteyemo pasiparume, isakaje amabati y'umukara, imbere y'iyi nzu hariho urubaraza kandi iyi nzu igeretse kabiri.

Abagabo batatu begamye kuri kontwari, umwe wo hagati yambaye ikanzu y'umukara, ubabanjirije yambaye ishati y'umweru, aha hantu bahagaze ntabwo hagaragara, hari umwijima.

Umupolisi wambaye impuzankano y'akazi ari guhererekanya n'umugabo umuhagaze imbere ibaruwa. Uyu mugabo umuhagaze imbere yambaye amarinete, iruhande rwabo hari undi mupolisi ndetse hagati hari umudamu munini. Inyuma yaho hari indege.

Hano ni muri supamaketi, amatara ari kwaka. Harimo etajeri nyinshi ziriho ibicuruzwa bitandukanye. Ndahabona urujya n'uruza rw'abantu, barimo guhaha.

Umupolisi w'Urwanda ari kuri kaburimbo, ahagaze impande y'imodoka. Inzu iri imbere etaje irageretse ariko amabati yayo arashaje, ihari umumotari umuhagaze iruhande n'umukobwa bari impande ya kaburimbo iyi kaburimbo nayo iraje.

Kizimyamwoto ebyiri zikoreshwa bari kuzimya umuriro, buri kizimyamwoto ifite urufunguzo hejuru rukoreshwa igihe habayeho inkongi bagafungura umwuka wa kabonideyogisayide ukazimya umuriro.

Abagore'abagabo batonze umurongo imbere yabo hari inzu nini ariko ishaje. Aba bantu bari umurongo berekeza muri iyi nzu binjiremo, iruhande rwabo hari ibiti hejuru ikirere kireyuyutse.

Amapoto akwirakwiza umuriro w'amashanyarazi ari ku muhanda, umumotari uri gutwara moto azamuka muri kaburimbo, rifani itwaye ibicuruzwa iri iruhande rw'umumotari, amazu y'ubucuruzi ari impande y'umuhanda wa kaburimbo, ibisanduku bya televiziyo biri hejuru y'amazu.

Umugabo wicaye hejuru y'imodoka ya fuso ari gucunga abajura ngo batiba ibyo shoferi apakiye, umunyonzi upakiye ibicuruzwa ku igare abisunitse muri kaburimbo, abamotari bahetse abagenzi bose bari kujya mu cyerekezo kimwe, imbere yabo umumotari uhetse igikapu ufite moto ikoresha umuriro w'amashanyarazi.

Imodoka ya Makuzungu ipakiye igikontineri, iki gikontineri gisa nk'ubururu, amapine y'iyo modoka ni umukara, mo imbere harimo umushoferi, uru rumodoka ni runini, ndetse impande yaho hari umugore uhari wambaye ijipo irimo amabara y'umuhondo n'icyatsi.

Abamotari babiri batwaye abagenzi bari kugenda mu muhanda, inyuma ya bo hari urugo rwubakishije amatafari ya boroke, rusize irange ry'umweru hariho igicucucucu giterwa no kuba hari ibiti muri kaburimbo.

Umunyonzi ufite umufuka n'ihema ku igare rye, yambaye inkweto za bodaboda, ipantaro y'umukara ahetse igikapu, yambaye ingofero, yambaye n'agapira, imodoka ya shirumuteto iri kuva muri gare.

Umwobo muremure utwara amazi uri impande y'umuhanda, ibivaze biriho isima ndetse na ferabeto bitwikiriye ikiraro, mu muhanda harimo hoho ipakiye umucanga.

Umusore uhagaze mu muryango w'imodoka ya rifani, yambaye bodaboda afite ingofero yayambaye ayirebesheje inyuma, yambaye n'agakote k'umukara, ipantaro nayo ni umukara n'agapira k'umutuku.

Ikibuga cy'umupira w'amaguru, muri metero nka magana abiri hari umusozi muremure, iki kibuga gikikijwe n'amazu atuwemo, muri iki kibuga rwagati hari gukiniramo abakinnyi, ubwatsi buri muri iki kibuga buratoshye ni icyatsi.

Ikimenyetso cy'uruziga kirimo akaronko kabereretse kiri mu ibara ry'umutuku, hagati muri iki kimenyetso harimo irangi ry'ubururu ndetse n'udukoni tubiri tw'umweru duhagaze.

Abagabo babiri bari kumanika icyapa cyerekana umuvuduko imodoka igenderaho. Kamera yo ku muhanda igaragazwa n'umuvuduko wa mirongo inani, inyuma yaho hari inzu y'itaje.

Umuhanda nyabagendwa. Hari icyapa kiri impande y'umuhanda. Hari ibyatsi bya pasiparume. Harimo imodoka, abantu nabo bari kugenda mu muhanda muremure ujya mu Ntara.

Umuhanda w'umukara aho uganisha ku bitaro byitwa Sehashiyibe, biri mu karere ka Huye, aho hahagaze umuntu uhagarika imodoka kugirango babanze basuzume icyo uje uhakora, hakaba hari imodoka nyinshi ziparitse.

Amazu yubatse mu mujyi rwagati, muri aya mazu handitseho ijambo kugenzura Gihogere, amwe muri aya mazu afite urugo rw'amabati n'amatafari, harimo imiturirwa miremire igeretse kane.

Igorofa igeretse gatatu, iri impande y'umuhanda wa kaburimbo, hagati y'uyu muhanda handitseho ijambo cumi na kabiri zone, iruhande rwaho hari umurima uteyemo ibiti na pasiparume.

Igikuta cyubakishije amatafari ahiye, hejuru y'iki gikuta hari senyenge zituma abajura batinjira, hakurya y'iyi nzu hari amazu manini ya kadasiteri, nko muri metero nka magana abiri hari ishyamba rinini utabasha gucishamo ijisho.

Umuhanda uri mu nzira y'abagenzi. Imodoka y'umukara iri kunyuraho yerekeza mu majyaruguru y'umuhanda. Urugo rwubakishije ruriba, iruhande rwaho hari amapoto.

Umurima urimo ibiti n'ibyatsi, muri metero makumyabiri ujya mu majyaruguru y'uyu muririma hari amazu ya kadasiteri asakaje amabati y'umutuku.

Itara rinini riri ku gikuta, riri kumurika ku buryo utambaye amarinete utareba, munsi yaho gato hari andi matara ane nayo ari kumurika, imbere nko muri metero icumi hari ikintu kimeze nk'imodoka.